Umugabo wambaye ingofero y'umukara ishati y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, yambaye uturindantoki ahagaze hagati mu murima urimo ibyatsi byiza bitohagiye, bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo, ahetse mu mugongo we ipombo arimo gufuhira.

Abantu barimo guhinga abandi bahagaze hino y'ibigori, ibigori byiza bitoshye bitohagiye biri hafi kwera, umugabo uhagaze yambaye amarinete, yambaye isurubeti y'umukara, mu biganza bye afashe itiyo itwara amazi arimo gufuhira ibigori.

Ibiti byiza bihagaze by'inganzamarumbo, umugabo uhagaze hagati mu myaka yambaye ingofero y'umukara, yambaye agapfukamunwa, yambaye n'isurubeti y'umukara ndetse na bote, ahetse ipombo mu mugongo, arimo gufuhira imyaka.

Ibihingwa byiza bitohagiye bifite amabara meza, biteye ahantu heza, umugabo wambaye ipantaro y'umukara, agapira k'amaboko magufi yambaye ipombo arimo gufuhirira ibihingwa umuti wabyo.

Ahantu heza hateguye neza ameza meza afite ibara ry'umutuku imiti iri mu macupa y'amoko atandukanye harimo iy'umweru ipfundikishije imifuniko y'icyatsi, yamaze gutunganywa kugira ngo izifashishwe mu kuvura indwara zitandukanye.

Bbyatsi bitohagiye bimeze neza umugabo uhagaze wambaye ipantaro y'umuhondo n'ikoti rifite ingofero ry'umuhondo, yambaye agapfukamunwa ahetse ipombo mu mugongo afashe itiyo ari kugenda afuhirira imyaka.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira afite n'ingofero y'umukara, ahetse ipombo mu mugongo we, ari kugenda afuhirira ibyatsi bitohagiye neza cyane bigaragara ko byitaweho kugira ngo bizifashishwe mu gukora ibintu bitandukanye.

Ibyuzi bicukuye bimeze neza birimo amazi, ahantu hari kugaragara neza hari ibyatsi bikeya ndetse n'ibiti byinshi, umugabo wambaye bote z'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi n'agapira k'amaboko magufi.

Ikibaya cyiza gihinzwemo imbuto z'amoko atandukanye, yubakiye neza, ishyamba ryiza ririmo ibiti by'inturusu byakuze ,bifite amababi meza atohagiye biri kugaragara neza ahirengeye.

Umusore uri mu kigereranyo k'imyaka nka makumyabiri n'itanu yambaye agapfukamunwa, agapira k'amaboko magufi ndetse n'ikoboyi mu biganza bye ateruye ifi ari kwerekera imbere, hirya ye hari inzu nziza isakaje amabati y'umweru.

Amazi menshi ari kugaragara nabi umugore uhagaze yambaye igiteteyi afashe ibase mu ntoki ye, iruhande rwe hahagaze umugabo ufashe igikombe mu kiganza wambaye ikoti ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara hino yabo hahagaze abandi bantu.

Umugore w'igikara, yambaye igiteteyi, yicaye mu bwato bukozwe mu giti, afashe ingashyi mu biganza bye, ari kugenda agashya yerekeza imbere, iruhande rwe hari ihema ry'umukara.

Indobani nziza, irimo amafi menshi atandukanye afite amabara y'umuhondo n'umukara, iri ahantu heza hari utwatsi turyamye ndetse hari n'ikindi gikoresho cyifashishwa mu kuroba amafi.

Amazi menshi ari kugaragara neza, umugabo uhagaze mu mazi wambaye agapfukamunwa yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, ateruye mu biganza bye amafi ari mu rushundura. Uburobyi ni bwiza kugira ngo bukorwe mu buryo bwateguwe, bwanateganyijwe na leta.

Amafi menshi cyane yamaze kurobwa, arunze ahantu hamwe, amwe afite amabara y'umukara andi afite amabara y'umweru, amafi aduha inyama tubasha kurya kugira ngo dukuremo intungamubiri zitandukanye zitunga umubiri wacu.

Amazi menshi cyane ari gutemba, umuntu ufashe urucundura barubeshya amafi ndetse ukundi kuboko kwe agufatishijemo amafi menshi cyane, arimo guseka, arizihiwe, bigaragara ko yarobye amafi menshi.

Abantu benshi bari ahantu hamwe batatu bahagaze mu mazi rwagati abandi batatu bari ku nkombe bari kugenda batoranya ibintu barunamye, umwe yambaye ikaburiya y'ubururu undi ni umugore wikenyeje igitenge ndetse wambaye n'itiriningi y'icyatsi.

Ikiyaga kiri kugaragara neza hagati yacyo hari umugabo uhagaze mu bwato n'undi uhagaze mu mazi, umwe yiteze agatambaro k'umweru afashe urushundura barobesha mu ntoki ze.

Amazi ari gutemba mu muririndi hakurya hari ibyatsi no hakuno hari ibyatsi, umugabo uhagaze ufashe indobo yambaye ikoboyi, ishati irimo imirongo y'umukara n'umweru, yambaye ingofero ikiganza cye yakirambuye hejuru y'amazi.

Igihingwa cyiza kiri kugaragara neza cy'ikawa, harimo izo, imbuto z'umutuku zeze ndetse n'imbuto z'ibitumbwe zitarera, kiragaragara neza ko kitaweho kugira ngo kizatange umusaruro uhagije.

Ihema ryiza ryumweru rirambuye hasi, hariho imyaka y'amoko atandukanye. Umugore wicaye yiteze igitenge akenyeye umwenda, yambaye ishati y'amaboko magufi, arimo kurobanura imbuto yo guhinga.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo afite umusatsi mukeya, amaboko ye yayafatishije mu mayunguyungu arahagaze arimo kureba imbere, inyuma ye hari ibihingwa bitandukanye ibishyimbo, urutoki ndetse n'igiti cyasipure.

Icyayi giteye ahantu heza harambaraye gifite amababi meza y'icyatsi n'umuhondo, kigaragara neza ko kitaweho kugira kizabashe gukurwamo amafaranga menshi cyane azifashishwa mu iterambere.

Igihingwa k'icyayi, giteye ahantu heza, kiratohagiye, giteye ku murongo mwiza, harimo imirongo itambitse n'izamutse, gikikijwe n'ishyamba ry'ibyatsi byinshi byakuze.

Ibihingwa biteye ahantu mu gishanga heza, bifite amazi biratohagiye neza, biteye ku murongo, hagati y'igihingwa n'ikindi harimo metero zigaragara, zituma bitegerarana.

Ibiti byiza by'ikawa biteye neza, bifite amababi y'icyatsi ndetse bifite n'ikawa nziza yeze iri mu ibara ry'umutuku, umuhondo ndetse n'ibitumbwe bikiri mu ibara ry'icyatsi, ikawa ni igihingwa kinjiza amafaranga menshi.

Ibyatsi byiza biteye neza, umugore wikoreye indobo y'icyatsi yiteza igitambaro yambaye ishati y'amaboko magufi, imbere ye hariho igiti cy'ikawa kiriho ikawa zeze z'umutuku ndetse n'iz'ibitubwe z'icyatsi zitohagiye.

Abantu benshi higanjemo abagabo ndetse n'abagore bari mu mirima myiza y'icyayi gitohagiye kiri kugaragara neza, bari kugenda bakibagara bakuramo ibyatsi bibi kugira ngo kizatange umusaruro uhagije.

Imiti itandukanye ifunitse neza imwe mu mashashi, indi mu macupa y'umuhondo apfundikije imifuniko y'icyatsi, iyo miti ishushanyijeho utuntu tw'icyatsi ndetse n'umutuku ni imiti yifashishwa mu kuvura inyamaswa.

Ameza agaragara neza, ateretseho ubuni bufite amabara atandukanye, higanjemo bufite amabara y'umweru ndetse n'amacupa meza, apfundiki imifuniko y'icyatsi, ashushanyijeho inka, bigaragara neza ko harimo umuti wamaze gutunganywa kugira ngo uzifashishwe mu kuvura inyamaswa zitandukanye.

Imiti myinshi y'inka yamaze gutunganywa iri mu macupa y'amoko atandukanye, amacupa maremare y'umweru apfundikije imifuniko y'umweru, n'amacupa maremare y'umuhondo apfundikije imipfundikizo y'umutuku, ari kugaragara neza afiteho ibishushanyo by'inka.

Amacupa ateretse ku meza ari ku murongo afite imifuniko y'umweru afite n'ibyapa by'umweru, arimo imiti itandukanye yamaze gutunganywa kugira ngo izifashishwe na veterineri mu kuvura inyamaswa.

Amakarito apanze neza ku murongo afite amabara meza umutuku, cyatsi bigaragara ko arimo imiti yamaze gutunganywa kugira ngo yifashishwe mu kuvura amatungo n'izindi nyamaswa.

Amakarito arunze hamwe amwe ageretse ku yandi, afite amabara atandukanye, ay'ubururu ndetse n'amacupa y'umukara ateretse ku ruhande, afunze n'imifuniko y'umukara, arimo umuti, afite ibyapa bigaragaza imiti irimo.

Imiti yamaze gutunganywa iteretse ahantu heza iri mu kintu gifite ibara ry'ubururu, kugira ngo izifashishwe mu kuvura indwara zifata amatungo ndetse n'izindi nyamaswa zo mu ishyamba.

Ibyatsi byiza bitohagiye biri kugaragara neza bifite amabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo, umugore wateye intambwe wambaye ipantaro y'itiriningi, agapira k'amaboko magufi ndetse yiteze igitambaro afashe ibiti bibiri mu ntoki.

Ibigori biteye ahantu heza mu ifumbire biri kumurongo, biratohagiye bifite amababi meza, umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro, arimo kuhira ndetse n'umugore ukenyeye umupira w'icyatsi n'igitenge yambaye umupira w'amaboko magufi.

Ahantu hameze neza ni mu murima umugabo uhagaze ufashe igiti kiri mu gihoho cyacyo, yambaye amarinete yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse n'ipantaro yikoboyi iruhande rwe hagaze umukobwa ufite imitsatsi ye wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abantu bari kugenda ahantu mu kinani kirimo ibyatsi byinshi, umwe afashe umuhoro mu biganza yambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'itiriningi, undi ni umugore yeguye inkwi ku mutwe yikenyeje umupira, undi ni umugabo atwaye isuka ku rutugu.

Abantu bari guhambira ingano harimo umugabo umwe wambaye ipantaro y'umukara n'undi wambaye ikoti n'abandi bari kugenda bazigesa, hakurya yabo hari ishyamba rinini cyane ririmo ibiti by'inganzamarumbu byakuze bitandukanye.

Umugabo wicaye ku gatsitsi, yambaye bote z'umukara, ipantaro y'umukara, ishati y'umweru n'ingofero y'umweru, mu maguru ye hateretse indobo ari gukamiramo inka y'umweru n'umukara ituje cyane.

Umusore w'igikara afashe umuhoro mukiganza yambaye umupira w'umweru urimo umukara ndetse n'ikabutura y'ubururu, ari gutema urubingo inyuma ye hari ibigori bimeze neza byakuze byavomerewe.

Umukobwa wambaye igiteteyi, arimo guseka, afite umusatsi mukeya, afashe ibigori mukiganza cye, inyuma ye hari ibigori byiza, bipanze neza ku murongo byamaze kuma kugira ngo bizatunganywemo imbuto yo guhinga.

Mwiza uri kugaragara neza urimo ibigori, umugabo uhagaze wambaye isarubeti y'ubururu arifashe n'amaboko ye ibigori arimo guhaguza, undi ahagaze hirya yambaye umupira w'amaboko magufi arimo kugenda atunduza ibigori.

Umugabo wambaye itabuririya y'ubururu, hagati mu maguru ye hateretsemo indobo yuzuye amata arimo gukama inka y'umukara n'umweru, n'undi mugabo wambaye umupira w'umutuku n'ikoboyi, iruhande rwe hateretse indobo y'umutuku ari kujisha inka.

Ibiti byinshi biri ahantu heza bitohagiye bifite amababi meza ikiraro cyubakishije ibitifite irangi ry'cyatsi umukobwa wikoreye agatebe k'icyatsi yambaye igiteteyi afite igitenge mu ijosi, musaza wambaye ipantaro y'umukara uri kugendera ku gakoni yambaye n'ingofero.

Avoka ihinze ahantu heza iri kugaragara neza itohagiye, irimo vokazeze ndetse n'iziteze, ifite amababi y'icyatsi ndetse n'ay'umuhondo ari kugaragara neza.

Sitoke irimo ibiribwa by'amoko atandukanye bifunze mu mifuka ibindi mu makarito ibindi mu mumashashi, afite amabara atandukanye umutuku, ubururu, icyatsi, umuhondo biri kugaragara neza.

Igihingwa kiza k'imyumbati gihinze ahantu heza. Ibiti bitandukanye bitohagiye biri kugaragara neza. Cyaruhiwe, kitaweho biragaragara ko kizera imyumbati myiza, minini imeze neza.

Inyanya, imboga, ibitunguru, imiteja byamaze gutunganywa byashyizwe ahantu hamwe kugira ngo bibashe kugurishwa abantu babirye, babikuremo intungamubiri zitandukanye zubaka umubiri.

Ibihingwa biteye ahantu heza byuhiriwe byitaweho biratohagiye, biri kugaragara neza ko bizatanga umusaruro uhagije ku baturage ndetse bikazagera no ku isoko bigakwirakwira ahantu hose.

Ahantu hitaruye hari ibyatsi byinshi cyane ndetse n'ibiti binini byakuze bimeze neza hakurya hari urusengero runini cyane rusakaje amabati y'umutuku rufite amarangi y'umweru, hirya yarwo hari umucaca mwiza cyane umeze neza.

Igihingwa cy'uruyuzi, gihinzwe ahantu heza, hateye neza, kirimo ibihaza bikoze, n'ibidakuze, byifashishwa mu kuribwa kugira ngo bifashe umubiri w'umuntu gukora no gutekereza neza.

Abantu benshi bari kubagara umukeri ugaragara neza ufite ibara ry'icyatsi, barizihiwe kandi baratatanye, hirya yabo hari ishyamba ririmo ibiti byiza byakuze by'inganzamarumbo.

Ibiribwa bitandukanye, biri mu mabara menshi bimwe bifunikiye mu macupa ibindi bifunikiye mu mashashi afite amabara atandukanye, umuhondo, umutuku, ubururu, icyatsi, ndetse n'umukara, biragaragara neza.

Igihingwa cy'intoryi giteye ahantu heza kirasasiye ibyatsi, iruhande rwacyo hateye imigozi y'ibijumba harazitiriye, hirya hari igicoricori ndetse hino hari ibiti byiza bitohagiye.

Umuceri wamaze kuhirwa; uri mu murima mwiza, harimo amazi menshi witaruye, hakurya yaho hari ishyamba ryiza ririmo ibiti kimeza byinshi cyane.

Igihingwa cy'urutoki giteye ahantu heza gitohagiye, kirimo ibitoki byeze n'ibiteze, byifashishwa mu kuribwa ndetse no gutunganya inzoga z'amoko atandukanye kugira ngo bibashe gutunga umubiri wacu.

Ibyatsi byiza byinshi biri mu ishyamba bitandukanye, biratohagiye, inyamaswa nini cyane z'inzovu zarambuye imitunzi yazo ndetse ziri kumwe n'akana kazo gatoya biri kugenda bigana mu ishyamba.

Ishyamba rya kimeza ririmo ibiti byinshi bitandukanye harimo igiti cy'inganzamarumbu cyakuze n'ibyatsi byakizamutseho, hakuno yacyo hari ibindi byatsi byakoze cyane by'umushishiro.

Ikibaya cyiza, giteyeho ibiti byiza ndetse n'igihingwa cy'urutoki giteye ahantu heza, kirimo ibitoki byiza, ibikuze n'ibitoya, biri kugaragara neza, bitohagiye.

Ishyamba ryiza ririmo ibiti byakuze by'inganzamarumbu bifite amababi yi'icyatsi ndetse n'uturabo, hari n'inka nyinshi cyane z'amabara atandukanye umweru, umukara ziri kurisha ibyatsi.

Ishyamba ryiza riteye ahantu heza ririmo ibiti byinshi ndetse n'igihingwa cy'urutoki gifite umubande hagati yabo, hakurya hari udusozi duhinze neza turiho ibihingwa bitandukanye biri kugaragara neza.

Inzu yubakishije ibiti isakaje amabati y'umweru, umusozi munini uriho ibiti byinshi by'amoko atandukanye bimwe byakuze by'inganzamarumbu, biri kugaragara neza ndetse n'ibibabi bitohagiye biri mu ishyamba, bikorwamo imiti yifashishwa mu kuvura abarwayi.

Ishyamba rinini riteweho ibiti by'amoko atandukanye ndetse hari ahantu hari amabuye menshi, hadateye ibiti n'ahari ibiti byiza byinshi byirunze, bitohagiye biri kugaragara neza.

Indabo nziza zitohagiye ziteye ahantu heza zifite amabara atandukanye, icyatsi kibisi umutuku, umweru ndetse n'umuhondo ziri kugaragara neza zarafuhiriwe zitaweho, kugira ngo zizifashishwe mu bukerarugendo.

Abantu bambaye imyenda y'umweru, ingofero z'umweru ndetse bari gutoranya avoka ziri mu makarito, atondetse neza, ari ahantu heza, inyuma yabo hari imiti itandukanye, iri mu macupa, ifite amabara meza.

Inyanya zihinze ahantu heza, zireze zifite ibara ryiza ry'umutuku. Zifite ibibabi bitoshye bishishagiye bigaragara ko zitaweho kugira ngo zizatange umusaruro uhagije.

Abagore babiri bambaye impuzankano y'umweru ingofero z'umweru ndetse n'udupfukamunwa, bambaye n'uturindantoki bafashe imbuto zitwaye nk'ibishyimbo zitandukanye, bari kuzitunganya kugira ngo zizifashishwe mu gukora ibintu binyuranye.

Umugabo ukuze wambaye itaburiya y'icyatsi ndetse ni'shati y'umweru, yambaye uturinda ntoki tw'icyatsi ahagaze rwagati mu murima urimo imbuto nyinshi zitandukanye afashe urubuto rwahiye mu kiganza cye kimwe araruzamura ari kureba imbere.

Umugore wambaye ishati y'umutuku, yiteze igitambaro ndetse yambaye n'ijipo y'umukara, arimo gusoroma amatunda ari kugaragara neza ko yitaweho kugira ngo atange umusaruro uharimye.

Ibyatsi byiza bitohagiye by'icyatsi, igiti cy'inganzamarumbu gifite indabo nziza zitangaje zifite, amabara y'umweru n'umutuku ndetse n'umuhondo hagati yazo.

Igiti cy'ipapayi gifite ibipapayi byinshi bibisi by'icyatsi bitarera gifite amababi manini yakuze, hirya yacyo hari ishyamba ryiza rifite ibiti by'inganzamarumbo binyuranye.

Imbuto nziza za pome zeze, ziratukuye ziri ku giti cyazo; ni byizayiza kurya imbuto za pome kuko zifasha umubiri wawe gukora neza no gutekereza neza bigatuma ugira ubuzima buzira umuze.

Indabyo nziza zamaze gutunganywa ziri mu madobo zifite amabara ateye amabengeza umuhondo icyatsi ubururu ziri kugaragara neza hari n'iz'umweru zifite utubara twiza cyane zifite n'utubabi ku ruhande.

Umucaca mwiza utohagiye uri kugaragara neza, ibiti binini by'inganzamarumbu birimo imbuto nziza, zeze zifite amabara y'umutuku n'izifite amabara y'icyatsi, ni byiza kurya imbuto ku mafunguro yacu kugira ngo umubiri wacu igogora rigende neza.

Umukobwa mwiza useka neza yambaye agapira k'amaboko magufi afashe intanasi ebyiri mu maboko ye yombi, inyuma ye hari izindi mbuto nyinshi z'amoko atandukanye, amarongi, amatunda ndetse n'izindi.

Ibiribwa by'amoko atandukanye: ibigori ,karoti, inyanya, ibitunguru, inanasi ndetse n'imboga byifashishwa mu kugira ngo umuntu arye abone intungamubiri zuzuye, zimufasha kugira ubuzima bwiza.

Ahantu heza hubakiye abantu batatu bahagaze, umwe yambaye agapira k'amaboko magu gafite ibara ry'umweru n'ikoboyi, undi yafunze akaboko agashyira imbere ye ndetse n'umukobwa uhagaze wambaye ingofero yifashe mu mayunguyungu.

Igiti kimwe gita ahantu heza h'ingandamarumbo, imyaka itandukanye, ibigori ndetse n'ibishyimbo, umugabo ufite umusatsi muke, afite itaburiya k'utugu, yambaye umupira w'amaboko magufi, afashe itiyo y'amazi mu ntoki, arimo gufuhira imyaka.

Umuhanda w'igitaka, igiti giteye neza gifite amababi atonhagiye, umusore uhagaze mu murima wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umutuku afite umusatsi muke afashe itiyo itwara amazi mu kiganza arimo gufuhirira imyaka.

Umuntu uhagaze mu murima, yambaye ipantaro y'umukara, yambaye agapira k'amaboko magufi, ndetse afite umusatsi mukeya, afashe itiyo y'amazi arimo gufuhirira imyaka, urutoki rumeze neza rufite ibitoki byeze ndetse n'ibiteze.

Abantu benshi bambaye imyenda y'umweru bari mu murima, bari kugenda bavomerera imyaka iri mu murima, yubakiye neza ndetse itohagiye iri kugaragara neza ko yitaweho cyane.

Umugabo wahinnye ipantaro ye ya kaki, yambaye agapira k'umuhondo afite indobo mu ntoki ze ari kugenda arafuhirira imyaka, umugabo uhagaze wambaye ikabutura n'ikoti ry'umukara, umugore ufashe isuka ya majago.

Igihingwa cyiza cy'amashu atohagiye, ateye ahantu heza akikijwe n'uruzitiro, hagati yayo hashizemo akantu k'umukara gafite akandi kameze nk'umutima k'umutuku, hacometseho itiyo iri gukwirakwiza amazi muriyo mashu.

Amazi menshi ari ahantu hamwe hakurya n'umusozi no hakuno n'umusozi, imbere hari umuhanda wubatse neza uganayo wubakishije amatafari na sima ufite utumenyetso tw'umukara dutandukanye.

Ahantu hateguye neza, hahinze neza. Harimo imbuto zimwe na zimwe ziri kugenda zizamuka. Umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'ikoboyi. Afashe itiyo y'amazi arimo kugenda afuhirira mu byerekezo bitandukanye.

Ibiti byiza by'inganzamarumbu, biteye ahantu heza, bitohagiye, birashishagiye, amatiyo atondetse ku murongo ari gufuhirira amazi mu myaka, itohagiye, ishishagiye, imeze neza izavamo ibiribwa.

Urutoki rumeze neza rutohagiye rufite ibitoki byeze n'ibiteze, umurima uhinze neza, umugabo wambaye ipantaro y'umukara yambaye n'agapira, afite umusatsi mukeya afashe itiyo y'amazi mu ntoki arimo gufuhirira imyaka.

Abantu bane bari ahantu hamwe umwe n'umukobwa wifashe mu mayunguyungu, undi ni umugabo wambaye ijire irimo umuhondo ari kureba muri terefone, undi ni umugabo wambaye ingofero y'umukara, imbere ye hahagaze umugabo wambaye itaburiya y'ubururu n'ingofero y'umweru ufite imashini iri gutungereza amazi mu murima.

Itiyo nziza ndende iri mu mabara y'umukara n'umweru, iri kohereza amazi mu migenda ajya mu mirima y'ibigori biteye neza ku murongo, bitohagiye biri kugaragara neza, hakurya yabyo bikikijwe n'uruzitiro rw'ibyatsi.

Umurima urimo ibihingwa byiza, hirya hari ibiti byiza bimeze neza, umugabo wambaye ishati y'umukara ndetse n'ipantaro y'umweru, afashe rozwari ifuhirira amazi arimo gufura imyaka.

Abantu benshi barimo kugenda harimo abambaye ingofero, bambaye impuzankano y'umweru n'amapantaro y'umukara, barimo kugenda berekeza imbere yabo iruhande rwabo hubatse inzu nziza ndende ifite amabara y'umweru.

Ibigori byiza bitohagiye bigaragara ko byitaweho bihinze ku buryo bwiza, umugabo wambaye ipantaro y'umukara yambaye agapira k'amaboko magufi, yambaye n'uturindantoki ahetse ipombo afashe itiyo mu ntoki ze arimo kugenda afuhirira.

Umugabo wambaye bote, ipantaro y'umukara, agapira k'icyatsi ndetse n'gofero ya kaki, afashe itiyo y'amazi mu ntoki ze, ari kugenda avomerera ibigori biri mu murima, hirya yabyo hari uruzitiro rwiza ruzitije ibyatsi.

Umusozi mwiza uteyeho ibihingwa bitandukanye, urutoki, urubingo, ibishyimbo ndetse n'ibigori. Byifashishwa mu gutunga umubiri w'umuntu, kugira ngo abashe kubaho neza.

Ikibaya cyiza kiri kugaragara neza gifite ibyatsi byiza by'amabara atandukanye, bitohagiye ndetse n'ibiti by'inganzamarumbu byitaweho kugira ngo bizatange umusaruro, haba w'imbaho zifasha mu kubaka igihugu.

Umusozi mwiza uteyeho ibyatsi by'amoko atandukanye, hakurya ya hari umusozi mwiza, uriho ibyatsi byiza, biteye neza, biri kugaragara neza, ko byitaweho kugira ngo bizifashishwe.

ibiti byinshi byiza byakuze ndetse n'ibyatsi bikeya n'amazu menshi asakaje amabati y'umutuku, ubururu, umukara, byubatse neza biteye amabengeza, biri kugaragara neza, ahirengeye.

Ikibaya cyiza giteye amabengeza, kirimo imyaka itandukanye, ibishyimbo, imikamba, amasaka ndetse n'ibiti bitohagiye bifite amababi meza bikorwamo ibikoresho bitandukanye, harimo n'imiti yifashishwa n'abavuzi ba gihanga, kuvura indwara.

Amazi menshi ari gutemba mu murindi akikijwe n'ibyatsi ndetse n'udusozi, hakurya hari ikirunga kinini cyane gifite igihu cy'umweru ndetse no hino hari ikindi kirunga.

Amatarasi meza y'indinganire harimo ibyatsi ahandi n'intabire ndetse hatuyemo n'ingo itatu zisakaje amabati y'umweru ziteyeho inzitiro zimeze neza.

Imisozi myiza iteganye iteyeho ibiti byiza bitohagiwe byitaweho ndetse n'ibindi bihingwa byinshi higanjemo ibyatsi bikorwamo imiti yifashishwa n'abavuzi mu kuvura indwara zitandukanye.

Ibyatsi byiza byinshi cyane biteye ahantu heza, bifite amabara y'icyatsi n'umukara biri kugaragara neza, harimo ibiti by'inganzamarumbu byakuze bikurwamo ibikoresho bitandukanye ndetse n'ahava imiti yifashishwa n'abavuzi.

Inzu isakaje amabati y'ubururu imbere yayo hari inka nyinshi cyane z'amabara atandukanye, ibihogo umukara n'umweru, ndetse n'abashumba babiri barimo kuzikama umwe arahagaze yambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Ikiraro cyubakishije ibiti bidasakaye, kirimo inka nziza z'ibihogo zifite amahembe maremare cyane, iruhande rw'ikiraro hahagaze abantu bambaye amataburiya y'ubururu n'umweru, barimo kuzireba bazitegereza.

Amashyo y'inka ari mu rwuri rwiza rurimo ibyatsi byiza bitohagiye, bigaragara ko byafuhiriwe kugira ngo bizifashishwe kuvamo amafunguro y'inka ndetse n'amatungo.

Ikiraro cyiza cyubakishije ibiti bidasakaye, inka nziza z'inyambo zifite ibara ry'isine, zifite amahembe maremare, umugabo wambaye bote z'umweru, ipantaro y'umukara, n'itabuririya y'umweru.

Ahantu ku gitaka cyinshi cyane, haryamye ingurube nini cyane ndetse ibibwana byayo birimo koyonka, yarambirije amaguru yayo yombi, irasinzira, biragaragara ko ibyana byayo byizihiwe, biri konka.

Ikizu cyubakishije amakoko, ibiti bishinze, kidasakaye, abantu batatu bahagaze barimo kuganira, harimo umugabo umwe wambaye ingofero ndetse n'undi mugabo wambaye umupira w'umweru, inyuma yabo hubakishije ikizu k'ibiti gisakaje amabati.

Inkoko nyinshi cyane z'amabara atandukanye ziri mu kibuti, harimo iz'umukara, iz'umutuku, zimwe ziraryamye izindi zirimo gutoragura. Ni byiza korora inkoko kuko ziduha amagi n'inyama bituma umubiri wacu ubona intungamubiri zihagije.

Kuko nyinshi ziri mu kibuti zimwe z'umukara, izindi z'umweru ndetse n'iza kaki zirikurarira, izindi zirimo gutera; biragaragara ko ahantu ziri hameze neza hateguwe ziri kurya amafunguro.

Ikiraro cyubatse neza, gisakaje amabati y'umweru, cyubakishije imbaho, harimo inka nziza ifite ibara ry'umweru n'umukara, ifite amahembe, irimo kurisha ubwatsi.

Inka nziza z'ibihogo ziri mu biraro byazo byubatse neza bifite inkingi ndende, inyuma yazo hari ikizu cyiza cyikiraro cyubatse gisakaje amabati y'ubururu kiri kugaragara neza.

Ikiraro cyubakishije ibiti kidasakaye, inka nziza y'ibihogo iri kurisha ubwatsi bw'urubingo hagati hayo harashyashye neza, hateye neza, hariho ibindi byatsi iryamaho bitandukanye.

Ihene nziza ziryamiye ku butaka, zifite ibara rya kaki n'ibara ry'umweru, ziryamye zitandukanye, imwe iri kureba ukwayo, ziragaragara neza, imwe irimo guhekenya ibyatsi yariye mbere.

Inkoko nziza zifite amabara meza y'umweru, zifite ibisunzu by'umutuku ziri ahantu heza mu kibuti zirizihiwe zirimo no kuraha, inkoko ni nziza kuko ziduha amagi dukuramo intungamubiri umubiri wacu ukenera.

Ikiraro cyubakishije ibiti gisakaje amabati y'umweru inka nziza zirimo kurisha ubwatsi zambaye amaherena y'umuhondo, umusore uhagaze wambaye ishati nini y'amaboko maremare ndetse n'ipantaro y'ikoboyi y'umukara.

Inka nziza y'umweru n'umukara yari kugaragara neza, umusore uri kuyishyishyira yambaye ingofero y'umutuku n'ishati y'amaboko maremare, undi mugabo ari kujisha inka kugira ngo abone uko ayikama.

Amatungo meza ahagaze ahantu heza ku butaka, ihene ziteye amaherena, ihene zimwe zifite ibara ry'umweru, izindi zifite ibara ry'umukara, hirya yazo hubatse ikiraro kinini cyane gisakaje amabati.

Ibyatsi byiza bitohagiye biri kugaragara neza ko byitaweho, amashyo menshi y'inka ateraniye ahantu hamwe harimo izifite amabara y'umweru n'umukara, harimo n'izifite amabara ya kaki zidafite amahembe.

Uruzitiro ruzitije ibiti, hagati ye hari inka nziza zifite amahembe maremare, inyuma y'uruzitiro hahagaze abantu barimo kuganira bambaye amataburiya y'ubururu ndetse n'umweru bagiye gufungura amarembo.

Inkoko nyinshi cyane higanjemo amasake, ndetse n'inkokokazi zifite ibara ry'umutuku, ziri ahantu heza zirimo gutoragura, zirizihiwe, zimwe zirahagaze zahagaritse ibisunzu byazo.

Inkoko nziza zakoze zifite amabara ya kaki n'umweru, ziri gukora ibintu bitandukanye, zimwe ziryamye ku butaka, izindi zirimo gutoragura, harimo n'utuntu tw'umweru tune, tugiye tuzitandukanya.

Ahantu heza h'umukara, hari kugaragara neza, ingano ziri hasi n'izindi ziri mu kiganza cy'umuntu, igihingwa cy'ingano ni igihingwa cyiza cyera ahantu heza, kifashishwa mu gukora ifarini ivamo imigati turya.

Inzu zishaje zisakaje amabati y'umweru, imbere yazo harunze amabuye menshi cyane harimo ibiganza by'abantu babiri bari kuyatoragura, umwe yambaye agapira k'umutuku ndetse hasi yambaye umukara.

Imbuto nziza z'amoko atandukanye, ibishyimbo, ingano ndetse ziri mu bikoresho byiza byateguwe, zamaze gutegurwa neza kugira ngo zifashishwe n'abahinzi mu gihe cyo guhinga.

Imbuto zamaze gutunganywa ziri mu matsinda, harimo iz'ibishyimbo zifite amabara agiye kuba umutuku, izifite amabara y'umweru ndetse n'ay'umuhondo, zifashishwa mu guhinga.

Icyumba cyiza giteguwe neza, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abantu batubura imbuto kugira ngo abahinzi bahinge imbuto yujuje ubuziranenge imeze neza, izabafasha kugira umusaruro uhagije.

Imbuto nyinshi z'ingano zamaze gusarurwa no gutunganywa n'izitaratunganywa zigifite udushubi, ingano ni imbuto nziza ivanwamo ifarini idufasha gukora imigati ndetse n'inzoga zitandukanye.

Ibiraro byubatse neza birimo inka nziza zifite amahembe maremare, ziratuje ndetse umuntu wambaye taburiya y'ubururu ari kwambara uturindantoki biragaragara neza ko ari umuganga w'inka.

Umurambi uteye neza, uriho ibyatsi bitohagiye ndetse hari inka nziza z'inyambo z'amahembe maremare, zifite ibara ry'ibihogo, zirimo kurisha ibyatsi hirya yazo hahagaze abashumba bazo babiri ,bambaye imyenda ifite amabara atandukanye.

Ikiraro cyubakishije ibiti kidasakaye kirimo inka nziza z'inyambo z'amahembe maremare, abagabo bane bahagaze babiri bambaye amataburiya y'ubururu ndetse n'umwe wambaye itaburiya y'umweru bafite ibitabo mu biganza byabo.

Ahantu heza hateye ibyatsi bigufiya ndetse hirya hari igiti kinini k'inganzamarumbu, inyamaswa nini cyane ifite umubiri ugagaye, ifite amahembe ndetse n'ikinwa kirekire biragaragara neza ko ari inzovu.

Ibyatsi bitoshye ndetse n'igiti gihagazeho utunyoni tubiri kamwe kari kwireba mu ibaba, dufite amabara y'umutuku mu ijosi dufite umukara ku mababa yatwo ndetse n'icyatsi tukagira n'imirizo miremire.

Ibiti byiza biteye neza ndetse n'ibyatsi byinshi bimeze neza, bifite amabara y'icyatsi biri kugaragara neza, ingwe ihagaze hagati ku ishami ry'igiti yateye intambwe iri kureba imbere igaragara nkaho igiye ku kuguruka.

Ahantu heza mu mukenye umeze neza utohagiye hari inyamaswa nziza z'impara zifite amabara y'umukara ndetse n'ay'umweru ziri kurishabyatsi zizihiwe zimeze neza.

Ingwe iryamye hasi irarambya amaboko yayo iyashyira imbere ayandi irazamura yasamye cyane imikaka yayo iragaragara ururimi yarusoye, inyuma yayo hari ishyamba ryiza cyane riteye neza.

Ibyatsi byinshi bitohagiye bishyushye bigaragara ko biteye ku mazi, imvubu nyinshi ziri kwinjira mu mazi harimo n'udutoya turi kugenda tunywa amazi tuvotagera mu byondo.

Inyamaswa zo mu ishyamba inzovu, impala zateraniye ahantu hamwe wagira ngo zirimo kuganira mu byatsi byiza bitoshye bitohagiye inyuma yayo hari amazi meza ari gutemba.

Ibyatsi bikeya ndetse n'amazi asa umweru arimo gutemba, amabuye menshi atandukanye, inyamaswa y'imbogo yazibukiye amahembe yayo irayabirindura, ifite ibara rya kaki ndetse n'andi mabara y'umweru amanutse.

Imparage nyinshi ziri ahantu heza zifite amabara meza afite uturongo tw'umukara ndetse n'umweru ziri kugenda zimwe zamaze kugera ku mazi, hakurya yazo hari ubwatsi bwiza buri kugaragara neza butohagiye.